Umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agakoti k'umukara, akaba yitwa Brenda Kankazi. Akaba akora mu kigo cy'ubwishingizi cya sonarwa, akakubwira ko buri munsi ari uburyo bushyashya bwo kugira ugere ku ntego zawe. Ukoresheje kompani y'ubwishingizi iguha agaciro.

Inzu nini ifite amagorofa, ikaba ari inzu ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo ifite ibirahure biririmo utwuma tw'umukara, hanze yayo hari ubusitani ndetse buteyemo indabyo n'ibiti, imbere hari icyapa kinini cy'umukara kikwereka yuko ikigo gikoreramo ngaho.

Abantu babiri umwe akaba yicaye, afite ukuguru kumeze nk'a kwakomeretse bakaba barimo baramushyiraho igipfuko, n'undi uri kumufasha gushyiraho igipfugo cy'umweru akaba kuri companyi y'ubwishingizi ya radiyante yacu ikaba ikubwira ko wagura ubwishingizi bw'impanuka usobanunona umubiri butangwa na radiyanti yacu wakubwira ko wirinde ugomba kwirinda hari n'umurongo wahamagara aho ushaka gusobanuza.

Kwamamaza kwa radinti kampani y'ubwishingizi ikaba hariho inka inyuma yayo hari ibiti byinshi hari n'inkoko ndetse n'ingurube zirimo zisa nkaho zitora hasi ibyo kurya ikaba ishishikariza aborozi yuko bashobora kubagoboka mu gihe cy'amage babashishikariza kubagana kugira ngo babahe ubwishingizi bw'amatungo yabo ndetse n'ayo borora ku buryo babasha kwiteza imbere.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati, akaba arimo araseka akaba arimo arahana ikiganza n'umugore wicaye nawe wambaye ikoti. Bakaba bakubwira yuko ikigo cy'ubwishingizi cya mayu a kikoha karibu kikaba ari uw'agaciro muri icyo kigo kandi mu bufatanye bwacyo uyu mwanya ngo babashimire icyizere mukomeje kubagirira mwebwe abakiliriya babo.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse akaba yambaye n'ishati y'umweru mu biganza bye afite telefone akaba yayishyize ku gutwi afite n'igikapu kinini akaba ari kampani ya radiyanti y'ubwishingizi itubwira y'uko ushobora gutembera umeze neza ntakibazo ufite ufite ubwishingizi bavuga ko wategura urugendo rwawe ntiwibagirwe gufata ubwishingizi bw'ingendo zijya mu mahanga muri radiyanti.

Icyapa kinini kikaba gifashwe n'ibyuma na byo binini kikaba kiri mu mabara y'umutuku, hakaba hari ni hasi amabara y'umweru, hakaba hariho umugore uri guseka wambaye imyenda y'umukara, hirya y'icyo cyapa kinini hakaba hari ibiti byinshi kandi birebire.

Umugabo wambaye agapira ndetse n'ishati, mu ntoki akaba afite urufunguzo, hari n'umugore wambaye agapira k'umweru mu ntoki afite amafaranga menshi, n'icyapa kirekire kiri mu mabara y'umweru n'umukara gifashe ku cyuma, ndetse kikubwira yuko ushobora kwizigamira amafaranga ukaba wagura imodoka.

Uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ni apurikasiyo ya banki ya ekobanki. Ikaba yerekana umubare w'amafaranga ndetse n'umubare w'ibanga akaba ari n'impamvu ugiye kwishyura ayo mafaranga amazina ni Daniyeli Ntaganda, bikaba byarafashwe saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'ibiri z'umugoroba.

Ikarita y'ubururu ya viza ikaba ari ikarita itangwa n'ikigo cya banki, ikaba isa ubururu ikaba ikoreshwa mu kugura ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane kuri murandasi, bikaba byarafashwe saakumi n'ebyiri na makumyabiri n'ibiri z'umugoroba telefone irimo umuriro wa karindwi.

Apurikasiyo ya banki ikaba ari banki ya Beka ikaba iri muri telefone ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ikaba ikwereka uburyo wagiye ukoresha amafaranga yawe ayo winjije, ayo wasohoye ndetse iyi konti ikaba ari iya Teta bakaba bakwereka n'amafaranga waba usigagaranye, hari ari na serivisi zitandukanye wakoresha kuri apurikasiyo ariyo kugura amayinite, kohereza amafaranga ndetse n'ibindi.

Umugore akaba yambaye agapira k'umweru ndetse ni'ijipo y'umutuku akaba afite n'agasakoshi ku rutugu n'imisatsi myinshi, mu ntoki ze afitemo ishati isa icyatsi akaba ari mu iduka ricuruza imyenda myinshi y'abagore, imikufi, ingofero ndetse n'ibindi.

Iduka ririmo abantu bane babiri b'abakobwa na babiri b'abahungu. Muri iryo duka bacururizamo imyenda, umukobwa umwe ari kuvugana n'undi bisa nkaho ari kumwishyura, undi muhungu nawe ari kuvugana n'undi bisa nkaho ari kugenda amwereka utuntu dutandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi ikaba ifite amashati ndetse n'amakositimu ikaba ifite imyenda igiye ipanze muka etajeri k'imbaho, kari hirya hakaba hari n'indi myenda imanitse kubyuma byagenewe kwamamaza iyo myenda, bikaba byarafashwe saa saba na makumyabiri n'ine, telefone irimo umuriro wa mirongo inani n'umunani ikaba ariduka.

Iri duka abantu bacururizamo cyangwa baza kuguriramo imyenda igiye itandukanye, mu myenda bacuruza hakaba harimo amashati y'amabara menshi, amabara ya kaki, umuhondo, icyatsi, umukara ndetse n'andi menshi, akaba apanze ku murongo ku buryo ushaka iyo ari yose yazakihitiramo.

Inzu ifunguye irimo ikintu kiri mu bwoko bw'umukobwa bambitse ikanzu y'umweru muri iyi nzu harimo akabati karimo inkweto z'umukara umwe n'umutuku bigaragara ko iyo ari inzu y'ubucuruzi icururizwamo inkweto n'imyenda.

Iduka rinini rikaba ari iduka bacururizamo imyenda igiye itandukanye, hakaba hari ibitenge ubwoko bwinshi bwabyo hari bimwe bipanze hasi n'ibindi bipanze hejuru ku gikuta bifite amabara atandukanye.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ikositimu ndetse n'undi mugabo wambaye agashati ndetse n'ipantaro, bakaba bafite mu ntoki igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo cyanditsweho abaga akagera motozi, inyuma yabo hakaba hari imodoka bigaragara ko umugabo amaze kugura imodoka.

Imodoka nziza iparitse ikaba ifite amabara y'umukara, ikaba ari iyo muri Kigali karizi maketi ahantu bagurisha amamodoka. Ikaba ari imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa toyota colola, ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu na zirindwi. Hirya y'ahantu iparitse hari ibiti byinshi kandi birebire.

Ahantu hari imodoka nyinshi ,akaba ari imodoka zitwara abantu mu buryo bw'arusanjye. Ariko zikaba ziparitse z'ifite amabara y'umweru zimeze nkaho zitarakoreshwa, hakaba hari ahantu hatwikirije amabati ndetse n'ibyuma. Akaba afite n'ibyuma bisize amabara y'ikigina.

Abagabo babiri akaba arimo umwirabura ndetse n'umuzungu bakaba barimo barerekana ikintu kimeze nk'urufunguzo ariko gikoze mu rupapuro, hirya yabo hari imodoka nziza ifite ibara ry'ikigina bameze nkaho bari kugura cyangwa kugurana imodoka hirya hari inzu nziza kandi ndende ifite amabara y'umuhondo hakaba hari n'ibiti biteye ahantu bari.

Imodoka ihagaze mu mbuga ngari iri mu bwoko bw'ivatiri, iragurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu z'amafaranga y'u Rwanda. inyuma yayo hari amapine atatu ushobora gusimbuza mu gihe andi agize ikibazo.

Abantu batatu bahagaze, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore ubari hagati, bakaba bari kumuhereza igipapuro kimeze cyangwa kiri mu ishusho y'urufunguzo, akaba ari kampani y'Akagera moto icuruza imodoka, hirya yabo hari imodoka nziza kandi nini ifite amabara y'ikigina, hirya y'abo bantu hari amazu.

Abagabo babiri bahagaze, bombi bakaba bambaye amapantaro. Umwe yambaye umupira w'ikigina n'undi yambaye ishati y'amaboko magufi y'umukara. Bakaba barimo barerekana igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo, nyuma yabo hari imodoka nini y'igikamyo y'amabara y'umweru. Bisa nkaho umwe aguze imodoka. Inyuma yabo hakaba hari amazu maremare.

Ama modoka menshi cyane aparitse, akaba ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, akabari mu iduka cyangwa ahantu bagurisha imodoka, akaba afite purake zanditseho Kigali carezi maketi, hirya hari inyubako zindi ndende kandi nziza.

Imodoka nyinshi ziparitse, imbere hakaba ari imodoka nziza y'umukara, hakaba hari hasi amapave ndetse hari n'utwatsi tugiye duteye hagati mu nzira, hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'ikigina cyanditseho yundayi, hakaba hasa nk'aho ari ahantu bacururiza imodoka, hari ibiti byinshi bizengurutse aho hantu ndetse hirya hari n'umuhanda birimo uracamo ikinyabiziga cya moto.

Abantu bahagaze hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abazungu ndetse n'abirabura, inyuma yaho hari icyapa kinini kirimo imodoka, imbere yabo hakaba hari akameza karirimo telefone, amazi ndetse muri ibyo biro harimo n'intebe bakaba bose bari guseka.

Akayira karimo amapave kakaba kagana mu nzu ifite ibikuta by'umuhondo, hejuru hakaba hari icyapa kinini cyanditseho yundayi kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Akaba ari aho bacururiza imodoka, hirya hari amavaze arimo ibiti by'umutako.

Imodoka nziza cyane ifite amabara y'umukara ikaba ari iyo muri Kigali karizi maketi ikaba igurishwa miliyoni miringo itandatu n'eshanu ikaba iri ahantu hirya yaho hari andi mazu menshi ndetse n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umugore wambaye imyenda y'umutuku, akaba afite ibikomo byinshi ku kuboko kw'ibumoso, ndetse n'ukwiburyo akaba yambayeho fimbo, akaba afite amafaranga menshi mu ntoki, imbere hari aka meza ndetse nako kariho amafaranga menshi.

Inyubako nini ikaba imeze nk'aho ari muri banki, ikaba mu imbere harimo ibiro abantu bicaramo barimo baratanga serivisi zigiye zitandukanye, imbere yabo bantu hakaba haba hari mudasobwa, iyo nyubako isize amabara y'umweru hari n'imitako isize amabara y'icyatsi, hirya hari umugore ufite ibyuma bifotora akaba usa nk'aho ari gufata amafoto.

Igiceri kiri mu bwoko bw'amafaranga y'u Rwanda cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda kikaba cyarakozwe mu bihumbi bibiri n'ikenda iki giceri hariho insina ifite igitoki kinini kandi cyeze.

Inzu bacururizamo amata ndetse n'ibindi bintu biyaherekeza, hakaba hasi hari amakaro y'umweru, ndetse iyo nzu ifite n'ibikuta hirya bisize amabara y'ubururu, hari ndetse n'icyuma gikomeza gutuma amata adapfa, hakaba hari hirya n'indobo zirimo udukeke umuntu yarya, harimo n'imeza n'udutebe muri iyo duka.

Abantu bari m'inzu m'imbere hakaba hari ibikuta by'ubururu ndetse hameze nk'aho hacururizwa amata hari ibyuma bitunganya amata kugira ngo adapfa hari n'ijerekani hirya hari umugore urimo uraha abamuze kugura, ndetse n'ibindi biribwa birimo amandazi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ikaba ifite inkuta z'umweru, amakaro hasi ni umweru ndetse n'amadirishya asize amabara y'icyatsi, hakaba harimo n'amamashini manini cyane yateganyirijwe mu gutunganya amata ku buryo adapfa cyangwa akagira ikibazo.

Umwana wambaye ikanzu y'umweru, ufite ikirahuri mu ntoki kirimo amata, ameze nk'aho amaze gusoma. Icyo ni icyapa kiri ku kabati karekare kari mu iduka bacururizamo amata ndetse hakaba harimo n'icyuma gikonjesha ibintu, hari n'amata menshi. Hakaba harimo umuntu ukoramo urimo uragenda utanga amata. Iyo nyubako ifite imiryango y'ubururu.

Umugabo wicaye yambaye agapira k'amoko magufi k'ubururu n'ipantaro y'umukara ari n'umugore uhagaze wambaye ikoti ry'umukara n'akajipo k'umweru ndetse n'umukara bakaba bari mu iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imitobe ndetse n'ibyokurya birimo amandazi ndetse akaba ari iduka ricuruza amata hari n'ibyuma bitunganya amata, inkuta zaho zikaba zisize amabara y'ubururu ndetse na parafu isize amabara y'umweru.

Ukuboko k'umuntu gufashe ikarito yanditseho inyange iriho imbuto z'amatunda bigaragara ko iyi karito ijyamo ikinyobwa cya ritiro imwe, iki kinyobwa gikungahaye kuri vitamine ca.

Inzu ifite ibikuta by'umweru hasi hakaba hari amakaro y'umweru akaba arimo umugore uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'ikoboyi akaba afite mu ntoki ijagi ndetse yahise hari indobo ,mw'ijagi no mu ndobo harimo amata bisa nkaho ari ahantu acururiza amata ndetse hari n'imiryango ndetse n'inzugi zisa uburu hirya n'ibyuma bitunganya amata.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Isahani nini iriho ikiribwa kitwa capati, hakaba hariho amatapati menshi ndetse aho hantu akaba ateretse ku meza, akaba bigaragara ko ari iduka bacururizamo amata ndetse n'ibindi biryo bisanzwe umuntu yafatisha ayo mata.

Imibare itatu igizwe n'akanyenyeri rimwe gatandatu gatanu n'urwego, iyo ukanze iyi mibare kuri telefone yawe bakwereka uburyo butandukanye, uba ugomba guhitamo uburyo bumwe kwishyura, amafaranga kugura amayinite, kugura murandasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Uburyo wakwishyura ukoresheje murandasi n'uburyo bwa sipini bukoreshwa na banki ya ayendemu ukaba ushobora gukanda kuri bizi ndetse n'ahandi wagenda wishyura ibikoresho cyangwa amafagitire yawe agiye atandukanye wasaba inguzanyo wagura amayinite ndetse wanahaha ibintu ushaka.

Uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, bakaba bakwereka yuko wahitamo, ese wakwishyurana na MTN mobile mani? ese wakishyura na Eyateli mobile mani? wakoresha banki cyangwa wakoresha amakarita atangwa na bank? akaba ari irembo ikwereka yuko wakwishyura ukoresheje uburyo bugiye butandukanye.

Abagabo babiri bahagaze harimo umwe umwirabura ndetse n'undi muzungu, umwe w'umwirabura yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro, undi muzungu yambaye ipanta y'ubururu ndetse n'agapira k'umukara, bakaba barimo barasobanurira uburyo wakoresha wishyira ukoresheje murandasi ku buryo bwa supini, imbere yabo hari meza iriho mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga barakubwira yuko Emmanuel Ngendakuriyo amaze kwakira amafaranga ibihumbi magana biri mirongo irindwi na kimwe n'amafaranga mirongo inani na rimwe y'amafaranga y'u Rwanda, bakwereka biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara ukaba ushobora kwereka iminsi byatwaye ndetse n'andi mafaranga ufite kuri konti.

Umuhungu wambaye agapira k'amaboko magufi ku'ubururu ndetse n'umukobwa wambaye imyenda y'umuhondo, akaba afite na telefoni mu ntoki bakaba bari guseka. Akaba ari ubutumwa bwa sipiyeni ikubwira ko wasangiza abandi ibyiza byayo ugahabwa amafaranga kuri buri nshuti utumiye gukoresha iyo apurikasiyo cyangwa ubwo buryo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Ikiganza cy'umuntu gifashe telefone, umuntu akaba yambaye umupira muremure w'umuhondo. Mu imbere muri telefone hari amabara y'umweru bigaragaza yuko amaze kwishyura, ushobora kwishyura ukoresheje momo ndetse imbere ye hari ikintu cy'ubururu kimeze nkaho amaze gutungaho iyo telefone bagahita bamujyana ahantu bashobora kwishyurira akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kikaba cyarahawe kampani ya ngari hayidoro pawa rimitedi, kikaba cyaratanzwe i Kayonza, kikaba cyerekana yuko iyo kampani igomba kwishyura imisoro runaka, ikaba kandi yaramaze kwishyura mu kwezi kwa gatanu.

Amazu menshi yagiye agerekeranye, hejuru yayo hakaba hariho idarapo ry'icyatsi, hasi hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti , akaba ari ifoto iri ku noti y'igihumbi ya banki ya Tanzania.

Uwo muntu akaba arimo akanda muri telefone, muri telefone harimo apulikasiyo ibara cyangwa izwi nka karikileta ku ruhande rwe hari mudasobwa ndetse hakaba hari n'imashini ibara amafaranga irimo amafaranga y'amadorari y'amanyamerika ijana arimo inoti nyinshi.

Amafaranga yamanye congo ariho abana babiri bafatanye ariho ikirango cyo muri congo hariho amafaranga icumi hariho imibare itandukanye imwe itambitse n'indi ihagaze hariho n'umukono .

Umugabo wicaye wambaye ipantaro yumukara n'ishati y'ubururu y'amaboko maremare yicaye ku gatebe gakozwe mu mbaho, hirya ye hari icyapa kinini kigenda kikwereka uburyo ashobora kugura cyangwa kukagurisha amafaranga agiye atandukanye y'amanyamahanga, inyuma ye hari amazu menshi ndetse hari n'ibiti bigiye biteye hagati y'ayo mazu.

Ibiro bikoreshwa mu kuvunjisha ndetse no gutanga amafaranga y'amanyamahanga, bikaba bifite icyapa kinini cy'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara byanditseho wesitani yuniyoni ndetse kikaba gifite n'umuryango, imbere harimo abantu barimo baraka serivisi, harimo abagore bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'abagabo bategereje, harimo n'intebe z'umukara wakwicaramo mu gihe utegereje guhabwa serivisi.

Inzu ndende ifite igorofa rimwe ikaba iriho icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, kivuga yuko ushobora kugana ibyo biro bakagufasha mu kuvunjisha ndetse no ku kuguha amafaranga y'amanyamahanga bikaba ku ruhande hari akayi ka'abanyamaguru karimo karacamo abantu benshi hari n'ibiti biteye ku ruhande rw'akayira k'abanyamaguru birebire.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufiya igasa amabara y'ubururu, akaba ari imbere y'ibiro bikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga, cyangwa guhinduranya kw'amafaranga, hakaba hari ibyapa binini bigiye biriho ibiciro amafaranga wagenda uyaboneraho, akaba arimo ahindura ibyo biciro.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa guhinduranya amafaranga y'amanyamahanga ndetse nayo ufite hakaba hari ibyapa birebire by'ubururu ndetse akaba ari n'inzu igeretse hakaba hari umuntu uri imbere uri gusaba serivisi wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ikoti ry'umukara hakaba hari n'ibindi byapa bigiye bitandukanye hari ibiri mu mabara y'umuhondo.

Abantu benshi batonze umurongo, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bategereje guhabwa serivisi bari mu kantu hafite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga y'abanyamahanga, ivunja ndetse n'ivunjisha ry'ayo mafaranga agiye atandukanye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko maremare y'ubururu ikaba yicaye ku gatebe kikozwe mu mbaho hirya hari icyapa kinini kiriho amafaranga uburyo wagenda uyagura cyangwa uyagurisha bitewe n'ay'ariyo Amanyamerikaye yo mu Bwongereza ndetse n'andi mapawundi agiye atandukanye akaba ari ibiro by'ivunjisha cyangwa byo guhindura amafaranga y'abanyamahanga.

Inzu nini ikaba ifite amakaro hasi y'umweru n'inkuta z'umweru mo imbere harimo intebe zifite imisego isa nk'ikake akaba hari n'imeza hari ndetse n'amarido asa nka orange.

Mu iduka bacururizamo ibikoresho bituruka ku mbaho hakaba hari intebe ziri hanze ndetse hagati yabo hari akameza byose bikozwe mu mbaho, bikaba biri ku ruhande y'umuhanda mu muhanda akaba hakaba harimo haracamo imodoka z'igikamyo ndetse na moto hirya hari n'andi mazu akorerwamo ibikorwa bike bitandukanye.

Inyubako y'ahantu harimo iduka cyangwa bakorera ubucuruzi bw'ibikomoka ku mbaho. Hari intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'imeza zikozwe mu mbaho. Hasi amakaro akaba afite ibara ry'umweru. Bakaba abantu baza babagana mu gihe bashatse ibikoresho ibyo ari byo byose bikozwe mu mbaho.

Ahantu hari inzu ndende zikikijwe n'ibiti, hari ahandi hantu hari intebe enye n'ameza ateguye neza, aha hantu ushobora kuba waharuhukira mu gihe ufite umunaniro ukabije udashaka ko abandi bantu bagusakuriza.

Inzu abantu bacumbikamo izwi nka hotel ikaba ifite amagorofa menshi ifite ibara ry'umweru ndetse ifite n'imitako y'imigongo, hanze hakaba hari abantu bakogera mu buryo bwa rusange hazwi nka muri pisine hakaba hari n'udutebe ndetse n'utumeza abantu bakwicara barimo bagira icyo bafata.

Pisine ifite amakaro ikikijwe n'ibiti byinshi iruhande rw'iyi pisine hari intebe, kuri iyi pisine hari icyapa kiri mu mabara y'umuhondo gishatse kuvuga ko iyi pisine nta muntu wemerewe kuyijyamo.

Inzu nini icumbikira abantu izwi ku izina rya hoteli, ikaba ari inzu ifite amagorofa menshi ifitemo imbere amakaro y'umweru ndetse n'inkuta zikaba zisa umweru, hagiye harimo n'imitako hakaba hari intebe wakwicaramo mu gihe utegereje guhabwa serivisi ndetse n'utumeza imbere y'izo ntebe.

Ahantu heza hari ubusitani bwiza burimo ndetse n'ibiti bigiye biteyemo, hakaba hari intebe nziza z'umukara ndetse n'iz'umutuku, imbere y'izo ntebe hari ameza hakaba ari hanatwikiriye, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane bizengurutse aho ahantu.

Inzu nini abantu bararamo mu by'igihe gito cyangwa bacumbikamo. Ikaba ari inzu y'amagorofa menshi, ifite ibirahure byijimye. Hanze hakaba hari aho bogera ari abantu benshi hazwi ku izina rya pisine, hari n'ibiti biteyeho bigiye bikikije iyo nyubako. Hirya hari n'andi mazu menshi.

Inzu abantu bacumbikamo by'igihe gito izwi nka hoteri. Ikaba ifite inzugi ndetse n'amadirishya y'umukara. Mo imbere hari ndetse n'amameza afite ibara ry'umukara. Akaba ateguyeho ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Mu biribwa harimo imbuto, n'imineke, inanasi ndetse n'ibindi. Hari ibyo kunywa nka yahurute ndetse n'imitobe.

Inyubako ndende y'ama etaje, ikaba ari inyubako abantu bacumbikamo by'igihe gito izwi nka hoteli, ikaba ifite ndetse n'aho abantu bakarabira ari benshi hazwi nka pisine kandi hanini, hakaba hari ku ruhandi udutebe duteye ndetse tunatwikiriye hariho n'utumeza ku buryo abantu bakwicara iruhande rw'aho hantu bogera bari gufata akantu ko kunywa, hari n'ibiti biteye muri hoteli.

Inzu abantu bacumbikamo mu gihe cy'igihe gito izwi nka hoteri, ikaba ari inzu nziza, hirya hakaba ari ahantu abantu bakogera ari benshi kandi muri rusange hazwi nko muri pisine, hirya yaho hari udutebe twiza ndetse n'imeza ziriho ibitambaro byu'mweru, hari n'amatara yaka ahantu hakaba hasa n'ahantu heza abantu bakwicara bakaganirira.

Inyubako abantu bararamo by'igihe gito, yitwa nka hoteri, ikamo imbere harimo abantu baba bicaye mugihe bategereje guhabwa serivisi, hari intebe nziza kandi nyinshi, izisize amabara y'umukara, ndetse inyubako ikaba ifite ibikuta by'umuhondo n'inzugi z'umukara.

Inzu nini ikaba ifite hejuru cyangwa parafu y'umweru ndetse n'amatara akaba ari kwaka hasi ifite amakaro y'umweru n'umukara hakaba hagiye harimo ibiro birebire kandi binini ikaba ari inzu ikorerwamo kampani y'ubwishingizi.

Abagabo bahagaze, hakaba umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikoti hakaba hari nundi mugabo wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umutuku .Mw'imbere mu kazu k'umweru hakaba umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati n'umweru asa nkaho bari gusobanurira umugabo ubegereye harimo harakoreramo company ishinzwe cyangwa ikora iby'ubwishingizi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukan ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye hakaba hari amazu manini y'amagorofa menshi agiye ari ku ruhande y'uwo muhanda hari icyapa kinini cyanditseho buritamu mu mabara y'ubururu hakaba hari n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti bugiye buteye hirya y'umuhanda.

Ibiro bya kompani y'ubwishingizi hakaba hicaye abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari imeza iriho za mudasobwa amakayi n'amakaramu ndetse n'indi mitako, bakaba barimo baranatanga serivisi ikaba mu biro harimo intebe z'umukara, ibiro bikaba bifite inkuta z'umweru.

Inzu ifite amabara y'umweru n'umutuku, harimo intebe z'umukara n'akameza gato, harimo kandi umuntu wicaye bisa nkaho hari ikintu ari gukora. Iyi nzu biragaragara ko ari inzu icururizwamo serivise runaka.

Ibiro bya kampani y'ubwishingizi ya MUA, ikaba ifite hasi amakaro y'umweru, inkuta zikaba zisize na yo ibara ryera, ikaba ifite amadirishya abonerana ku buryo ukwakira wamubona, harimo abantu bicaye imbere yabo hari amameza ndetse ateretseho na mudasobwa, biteguye mu gutanga serivise ababagana.

Inzu ifite ibikuta by'umweru, munsi hakaba hari amakaro y'umweru, imiryango yayo ikaba iy'umweru ishushanyijeho umugabo urimo uraseka wambaye ishati y'umweru, hakaba hejuru hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, akaba ari inyubako ikorerwamo na kampani y'ubwishingizi.

Ibiro bikorerwamo na kampani y'ubwishingizi, hakaba harimo intebe nyinshi ndetse hari umugabo wicayemo imbere, imbere ye hakaba mudasobwa iteretse ku meza y'umutuku, ibiro bifite inkuta z'umweru ndetse no hejuru hasa umweru ndetse n'ibiti by'imitako biteretse mu ivaze mu biro.

Ibiro bikorerwamo na kampani y'ubwishingizi, mo imbere hari ibikuta bisa umweru, harimo intebe z'umukara ndetse n'ameza, ku meza hari za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho, hakaba hari naho abantu baza babagana baca kugira ngo bahabwe serivisi.

Inyubako ikorerwamo na kampani y'ubwishingizi mo imbere ifite inkuta z'umweru ndetse hakaba hari n'intebe z'umukara umuntu yakwicaramo ategereje guhabwa serivisi, ikaba ari mu nyubako ndende ndetse hanze yayo hakaba hari ibyapa binini hejuru by'ubururu byanditseho aliyanza.

Inzu nini y'amagorofa abiri, ikaba ifite imiryango myinshi ikaba ikorerwamo ubucuruzi ndetse n'izindi bizinesi zitandukanye, hakaba bakoreramo n'ikigo cy'ubwishingizi cya zayoni, imbere yayo habaparitse imodoka y'umutuku ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Umugore wambaye ikanzu nini, akaba arimo araseka, iruhande rwe hakaba hari ibigori ndetse n'amababi yabyo, bakaba batubwira ko urwego banki rushobora kugufasha wowe nk'umuhinzi mu kwizigamira ndetse ikaba yaguha n'inguzanyo kugira ngo ugere ku nzozi zawe.

Umugabo uri guseka akaba afite mu ntoki akasiniya ndetse kariho n'itasi akaba yambaye imyenda y'ubururu. Hirya hari umugore wicaye nawe ku ntebe zifite amabara y'ikigena, imbere hari mudasobwa kumeza ukaba bakubwira y'uko ushobora gutangirana na banki ya ekwiti ikaguha igishoro.

Umugabo urimo uraseka raseka wambaye amarinete, akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, akaba yicaye ku modoka y'icyatsi, ikaba banki ya ayendemu ikubwira yuko waba wifuza imodoka ikoresha amashanyarazi ukaba wayibona muri ako kanya nk'ako guhumbya.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba yicaye, imbere ye akaba ari mudasobwa ndetse akaba afite n'ibipapuro mu ntoki, akaba arimo araseka, akaba ari ubutumwa bwa banki ya Jiti eyi, ikubwira ko ushobora kwizigamira hanyuma ukiteza imbere.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'agakaruvati gato ndetse n'ishati y'umweru, akaba afatanye n'umukobwa wambaye ikanzu nini y'umweru bose bari guseka, akaba ari banki ya bipiyara ikubwira ko ushobora kugera ku ntego yawe ukoresheje konti kwizigamira, mugihe ufite intego yo gukora ubukwe.

Umukobwa wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'umweru, mu ntokize ukuboko kw'iburyo afite ikarita, hepfo ku kuboko kw'bumoso afite ibikapu, bimeze nkaho avuye guhaha, inyuma ye hari amabara menshi, akaba ari banki ya ekobanke itubwira yuko ushobora guhaha ukoresheje ikarita.

Abagore benshi bazamuye amaboko bigaragara ko bishimye abandi babiri bicaye harimo umuzungu bafashe ku bicuba aba bagore bose bari imbere y'inzu ifite inkingi ebyiri ifite n'inzugi zifite amabara y'icyatsi .

Ahantu hari abantu batatu abagore babiri n'umugabo umwe, imbere y'aba bantu hari imbuto bita amacunga, umugore umwe afite akuma bakoresha iyo bari gutanga inyemezabwishyu.

Isoko rinini cyane ririmo imboga zigiye zitandukanye harimo inyanya amashu, imiteja n'ibindi harimo kandi n'umugore wicaye muri iryo soko inyuma ye hari amavuta y'ubuto, amamesa n'ibirungo bigiye bitandukanye.

Abagore babiri barimo baraganira bakaba bambaye ibitenge ndetse bane, bitadiye mu mutwe, imbere yabo hari amaperete y'amagi menshi cyane hakaba hari mu isoko ndetse iryo soko rikaba ritwikiwe, hari n'abandi barimo baracuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi hakaba ari mu isoko, harimo abantu benshi bamwe bicaye abandi bagiye bahagaze ndetse hari n'ibicuruzwa bikaba birimo; ibisabo, ibiseke n'ibindi, inyuma hari akazu ka emutiyene ndetse wagenda ukaboneramo serivisi za mobayiro mani zitandukanye

Inyubako nini akaba arimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo abagore ndetse n'abagabo. Hari abicaye bategereje abakiriya, akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi izwi nk'isoko, hakaba hari n'ibicuruzwa bigiye bimanitse hejuru harimo amabaga, imyenda ndetse n'ibindi byinshi.

Ahantu hacururizwa cyangwa hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi, hari abantu benshi bagenda ndetse n'abandi bacacanamo hakaba hari ibicuruzwav bitetse imbere yabo akaba ari mu isoko, muri ibyo bicuruzwa harimo imiteja, karoti, intoryi, inyanya ndetse n'ibindi, hari abagore bategereje abakiriya ndetse n'abakiriya bari kugenda bareba ibicuruzwa.

Isoko isoko ririmo abantu benshi hakaba harimo abantu barimo barareba ibicuruzwa ndetse n'abandi, hakaba hari abantu bashobora gucururiza hakozwe mu biti by'imbaho hanze hari ibicuruzwa birimo bodaboda, ibikapu binini, udukapu dutoya ndetse n'ibindi bicuruzwa abantu bagura.

Umugore wambaye igitenge akaba ahagaze imbere ku kameza hari ibicuruzwa bigiye biri mu tubase ndetse no mu mifuka, hakaba hari n'amasiniya imbere ye, hirya hakaba hari abandi bantu benshi higanjemo abagore, harimo n'abagore bahetse umwana, akaba ari mu isoko abantu bari kugura abandi bagurisha ibicuruzwa.

Inyubako ndende y'ubucuruzi ikaba ari isoko ifite ibice bijye bitandukanye aho wagurira amata ndetse n'handi wagura ibindi bikoresho hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho mukamira ndetse n'ikindi cyapa kinini cy'icyatsi cyanditseho arimantasiyo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, karimo haracamo imodoka, hirya hari inzu ndende kandi nini ikorerwamo ubucuruzi, ikaba haparitse imodoka nyinshi imbere yayo ndetse hari n'abantu bari guca mu tuyira tw'abanyamaguru, hari n'ibiti biteye imbereiyo nzu, utibagiwe n'amatara amukira abantu mu gihe cy'ijoro.

Isoko ririmo abantu, ibiribwa, imyenda, ibikoresho byo mu rugo nk'ibase, isafuriya n'ibindi; harimo abantu benshi bari kugenda bareba ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo bashaka kugura.

Isoko inyubako nini ifite ama esikariye cyangwa aho abantu bazamukira hasize amabara y'umutuku n'utwuma twatangira abantu mugihe bashatse kugwa dufite amabara y'ubururu, abantu benshi bamwe bari kugenda binjira abandi basohoka, hakaba hari n'abandi bicaye akaba ariho abantu bagurira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye igisarubiti cy'umukara akaba yicaye ku gatebe, akaba imbere ye hari ibiribwa bigiye bitandukanya harimo ibijumba, imyumbati, amaronji ndetse n'izindi mbuto nyinshi akaba bisa nkaho ari mu isoko ategereje abakiriya ko baza kumugurira.

Abantu benshi bari hamwe hakaba higanjemo abagore abana ndetse n'abagabo, bakaba bari mu isoko, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu bari guhaha abandi bagurisha ibicuruzwa bikaba biri mu kintu kimeze nk'igiseke, hakaba harimo inyanya, intoryi ndetse na karoti, hirya hakaba hari n'abacuruzi bategereje abaguzi.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo ka emutiyeni kakaba gatangirwamo serivisi za mobile mani hari abantu bahagaze imbere yako harimo abagabo ndetse n'abagore mo imbere harimo umukobwa uri kugenda atanga serivisi kuri abo bantu baje bamugana ku ruhande hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Akapa gafite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, kakaba kakwereka uko iyo nyubako ushobora kuyishyura ukoresheje uburyo bwa Mobile mani. Ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani kanyeri rimwe, ukandikamo kode ya gatandatu enye, gatatu zeru urwego, ukaba wakwishyuraho.

akazu ka MTN mobile money, hakaba hicayemo abakobwa babiri umwe yambaye agasarubeti k'ubururu ,imbere yabo hari utumeza ndetse hari n'imipira, hariho ndetse n'izindi serivisi bagenda batanga. Ako kazu kakaba gasa umuhondo, hirya yako hari ibiti ndetse n'ubusitanikaba, hakaba hari n'amazu inyuma yabo menshi.

Umugabo muremure wambaye ishati akaba ari imbere y'umugore wambaye agapira kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, uwo mugore akaba arimo arasobanurira uwo mugabo, hirya hicaye n'umuntu imbere ye hari mudasobwa arimo araha serivisi abakiriya ndetse n'abandi bamugana muri iyo nzu inkuta z'umweru ndetse hari n'ibyapa bigaragaza gushaka guhamagara nimero runaka mu gihe ushaka kugura cyangwa gukoresha serivisi za MTN.

Abantu babiri bahagaze hagati bambaye imyenda y'umweru bakaba bari kubyina, ku ruhande hahagaze abantu bambaye imipira hejuru y'umuhondo basa nkaho ari abakozi ba emutiyene, inzu ikaba itatswe ndetse n'amabara ya emutiyene y'umuhondo akaba ari muri poromosiyo ya izihirwe.

Akazu gafite amabara y'ubururu, hakaba harimo abantu akaba ari akazu ka emutiyeni (MTN) mobayiro mane ( Mobile Money) hicayemo umuntu urimo atanga serivisi za mobayiro mane (Mobile Money), hanze hari umuntu waje gusaba serivisi wambaye agapira k'umweru, uhetse n'igikapu mu mugongo cy'umukara, hirya hari ibiti byinshi biteye hirya y'ako kazu.

Akaduka ka mobayiro mani bakaba bakwereka ko ushobora kwishyura ukoresheje mobayiro mani akaba amazina y'aho wishyura yanditseho gedipongo intapurayizi ndetse ukaba ushaka gukoresha kode yabo ya karindwi umunani icyenda zeru kabiri zeru akaba ari uburyo ushobora kwishyura ukoresheje momo ukaba atari ngombwa gukoresha amafaranga mu ntoki bikaba biri mu mabara y'umuhondo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, akaba ari umugore wicaye ufite agashati ndetse yambaye n'aka jire akaba arimo aragenda abarira abantu ibintu baguze amafaranga bagomba kwishyura, hari n'undi muntu ufite ikiganza uri kwereka muri telefoni y'uko amaze kwishyura hari ndetse n'abandi bagore bari ku murongo n'abana bategereje yuko bakorerwa nabo bagataha.

Ikicyapa kikwereka yuko ushobora kwishyura ukoresheje momo ,ukaba ari uburyo wakwishyura cyangwa ko ukohereza amafaranga, ahangahe baratubwira yuko ushobora gukanda kanyenyeri rimwe ,gatandatu ,gatanu akanyenyeri gatatu urwego hanyuma ukandikamo kode gatandatu, gatatu, gatanu gatandatu, kabiri, gatandatu ukaba ubashije kwishyura nta kiguzi baguciye biri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara n'umuhondo.

Akayira k'abanyamaguru kakaba karimo abantu bagenda bagacamo hari n'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu uri gucamo ndetse n'undi w'umukobwa uhetse umwana, hakaba hari ahantu emutiyeni mobayiro mani ikoreramo, imbere hakaba hasizemo amabara menshi y'umweru ndetse n'umuhondo akaba ndetse hatangirwa serivisi zitandukanye za emutiyeni mobayiro mani, hakaba harimo n'amabafure agenda asakaza amajwi.

Umugabo wambaye ikositimu akaba ari imbere y'aka kiyosike cyangwa akaduka gatonya kaemutiyeni mobayiro mane imbere harimo umuntu urimo uramufasha akaba ari gusaba serivisi zo kubitsa, kubikuza, cyangwa koheza amafaranga ako kaduka gasize amabara y'umuhondo hirya hari andi mazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Akazu kari mu mabara y'umutuku karimo umuntu wambaye umupira wanditseho koka kora bigaragara ko abitsa akanabikura amafaranga, imbere y'aka kazu hari undi muntu ufite amadarubindi utegereje ko bamuha serivisi.

Akazu abantu bakoreshamo serivisi za MTN mobile money zirimo kubitsa, kubibikuza ndetse no kohereza amafaranga kakaba gasa umuhondo. Hakaba hari abantu babiri umwe wambaye umupira w'umweru uri gusaba serivisi n'undi urimo imbere uri kumuha serivisi. Hirya y'aho hari ibiti byinshi kandi birebire.

Ubutumwa bwa MTN bakaba bababwira ko ushobora guhaha cyangwa kwishyura ukoresheje MomoPay, kandi ukaba wishyura nta kiguzi utanze, bikaba biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, byometse ku idirishya imbere yayo hari akameza ndetse bisa nkaho ari ahantu batangira serivisi za Mobile Money.

Ahantu hari icyapa cya emutiyene, kigaragaza uko wakishyura batagukase. Hari kandi umuntu ufite agatelefone gato, kandiditsemo ko agiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda, kuri Jean Bosco.

Inzu y'umweru nini, ikaba ifite imiryango y'umukara, ikaba yanditseho amagambo y'uko iyi nzu yitwa "tayo." Ikaba mo imbere harimo ibicuruzwa byiganjemo imyenda ndetse n'abantu bakaba bari kwinjira baza kureba iyo myenda.

Abagabo babiri umwe w'umuzungu n'undi w'umwirabura, bose bambaye amadarubindi bafite ibigofero byifashishwa bari gutwara moto. Ibi bigofero kandi byanditseho nimero ushobora kuba wahamagara bitewe n'ikintu ukeneye.

Abamotari benshi bicaye kuri moto, inyuma yabo hakaba hari utuntu tw'utubogisi tugiye turimo ibintu, bakaba bambaye imyenda yabugenewe utujire ndetse n'amakasike, hirya yabo hari ibiti byinshi bigiye bibazengurutse ndetse hari n'akapa kanditseho ampasadi, bimeze nkaho bashobora kuba ari abantu bagenda bagemura ibintu umuntu yaguriye kuri murandasi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari icyapa cy'amabara y'icyatsi cyanditseho Bugarama hari n'umumotari ukorera vuba vuba wambaye ikasik y'icyatsi agapira k'icyatsi kandiitseho vuba vuba ndetse akaba ahagaze arimo araanaseka hirya ari utuyira ducamo abanyamaguru ndetse n'ibiti byinshi biteye hirya y'umuhanda.

Ibinyabiziga bine biriho abamotari bambaye ibigofero, ibi binyabiziga bihetse ibikarito bifite amabara ya oranje bari kureba mu kerekezo kirimo inzu nini n'insina iyi nzu ifite igipangu gifite amabara y'umuhondo.

Umugabo wambaye kositimu y'ubururu, akaba yambaye n'ishati, akaba ari umuzungu, akaba yifashe neza yambaye n'isaha ku kuboko, inyuma ye hari inzu ifite ibirahure ndetse n'imiryango n'ibikuta by'umweru, hakaba harimo intebe, hameze nkaho ari ishuli, bababwira ko ushobora kwiyandikisha mu kwiga, amasomo akazatangira cumi n'imwe zukwa cyenda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye w'amabuyekaba harimo umumotari uparitse inyuma ya motokaba hari akabogisi gasa nk'icyatsi akaba arimo akuramo ibintu umumotari yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'agashati k'amamoko magufi k'icyatsi nakasike y'icyatsi akaba akorera ikigo cya vuba vuba akaba aje kugezaho ibicuruzwa umuguzi yatumije atiriwe agera kuri iryo duka.

Inzu iri mu bwoko bugezweho, ikaba iri mu gipangu gifite amabara y'umukara n'umweru gifunguye, iyi nzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ubwogero bwiza burimo amakaro ndetse afite n'inkuta zisa umweru ndetse n'utudirishya dusize amabara y'umweru, ikaba ikodeshwa ku kwezi amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amadolari y'amanyamerika.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mugi wa Kigali, ikaba iherereye i Remera ku gishushu, ikaba ifite ibyumba bibiri, ikaba ifite ubwogero bwiza cyane bufite amakaro asa ikigina ndetse n'aho kwiherera heza ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u rwanda ku kwezi.

Amazu agiye akurikiranye menshi hakaba imwe ifite amabati y'umutuku indi ifite amabati y'ikigina, ku ruhande hakaba hari ikibanza kinini k'ibitaka ndetse hateyemo n'utwatsi cyangwa uduti duto, bakaba bakubwira ko icyo kibanza kigurishwa amafaranga miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda kikaba giherereye Kigali i Musave i Bumbogo.

Inzu iri mu bwoko bugezweho irimo amakaro, ikaba irimo n'amatara manini, iyi nzu ifite amadirishya manini kandi nta kintu kirimo, iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Ni inzu nini ikaba igurishwa mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba iherereye Kibagabaga, ikaba ifite inkuta z'umweru, hasi hakaba hasa umweru ndetse n'inzugi z'umukara, ikaba irimo ibintu byose intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho umuntu yakenera, ikaba igurishwa ibihumbi ijana na mirongo itatu by'amafaranga y'amadorari y'amanyamerika.

Iyi nzu iherereye i Kigali mu Rwanda, ikaba ishobora kuba yakodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu y'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika ku kwezi, ikaba iherereye Kacyiru, ikaba ifite hasi amakaro y'umweru, inkuta zikaba zisa umweru, ikaba ifite igikoni kigezweho kirimo amamashini amesa, ateka ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto ndetse yambaye n'akajiri, kaba ahagaze hagati mu butaka ndetse akaba ari ahantu hitaruye hakaba hatiyemo uduti dutoya hirya yaho hari amazu menshi akurikiye icyo kibanza. Icyo kibanza kikaba kigurishwa, giherereye i Kigali i Musave Bumbogo kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu igurishwa iherereye i Kigali kibagabaga, ikaba ari inzu ifite inkuta zisa ubururu hejuru hakaba haza umweru, ikaba ifite inzugi z'umukara, ifite ibyumba bitanu abantu bararamo, ikaba igurishwa ibihumbi magana abiri mirongo ine by'amadolari y'Amerika.

Inzu nini ikodeshwa mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amadorari y'amanyamerika, ikaba ifite inkuta z'umweru irimo amarido, ifite n'igitanda cyiza gishashe, hikaba hasi hari amakaro y'umweru.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda ikaba yegereye n'ikibuga cy'indege ikaba isize amabara y'umweru ndetse n'ikigina ikaba hejuru ifite n nahoaho umuntu yahagarara yitaruye areba hirya no hino.

Inzu nziza igeretse ikaba ifite amabara y'umutuku ndetse n'amabara y'umuhondo, ikaba ifite inzugi n'amadirishya by'umweru, hanze hakaba hari amapave y'umweru harimo n'uturongo tw'umutuku, hanze hakaba hari n'ubusitani bwiza burimo indabyo ndetse n'ibyatsi, ikaba igurishwa.

Inzu nini ikaba ifite amabara y'ikigina ndetse n'umweru, ikaba hanze hari amapave, ikaba ifite n'ubusitani bugiye buzengurutse inzu, hakaba hari amavaze arimo ibiti ndetse no mu busitani hakaba hateyemo ibiti, ikaba inzu ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nini ya etaje ikaba isa umweru ndetse ifite n'inzugi z'umukara, ikaba ifite n'ibyumba byinshi, ikaba ikodeshwa i Kigali, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda.

Inzu ifite amabara y'umuhondo ndetse ikaba ifite ubusitani hanze, ika ifite inkuta ziri mu mabara y'umweru ndetse n'inzugi z'umukara, ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ku kwezi, ikaba iherereye Kimironko i Kigali.

Inzu iri mu Rwanda i Kigali, akaba ari inzu ikodeshwa. Iherereye Kibagabaga, ni inzu ndende ya etage imwe, ikaba ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ikigina, n'amabati y'umutuku. Ikaba ifite ibyumba bitanu ndetse n'ubwogero butanu, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana arindwi cy'amadolari y'abanyamerika ku kwezi imbere mu gipangu harimo n'ubusitani.

Inzu nini isize amabara y'ikigina, ikaba ifite imiryango y'umukara, ikaba igeretse, ikaba ushobora kuyibona ku mafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'amafaranga y'amadorari y'amanyamerika, ikaba ifite ibyumba bine kuri buri nzu, akaba ari inzu ebyiri zifatanye.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ikaba ari inzu ushobora gukodesha ibihumbi bibiri by'amafaranga y'amadolari y'Amanyamerika ikaba ifite inkutamwe z'umweru ndetse n'amadirishya y'umukara ikaba ifite n'ama esikariye cyangwa aho wazamukira akozwe mu mbahoho hari na nimero hasi wahamagara gihe ushatse kugura iyo nyubako cyangwa kuyikodesha.

Inzu nini ikaba igeretse, ikaba ifite amabara y'umweru n'ikigina, igiye ifite n'amavase ateyemo ibiti, ikaba ari inzu ikodeshwa hirya yayo hakaba hari ibiti birebire bihateye ndetse n'ubusitani.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ahagana ku Kibagabaga, ikaba itararangizwa kubaka, ariko ikaba ari inzu nziza ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'Urwanda ku kwezi, ifite ubwogero bubiri ndetse n'ibyumba bibiri, ikaba yubakishije amatafari, ifite inzugi z'umukara.

Inzu nini ifite amabara y'umumweru n'umuhondo ikaba ifite amabati asize amabara y'ikigina ndetse n'inzugi zisize amaba y'ikigina zikaba zifite n'ibiro by'umukara, hanze hakaba hari amapave, ikaba ifite n'ikigega kibika amazi y'imvura, ikaba iherereye Kimironko ikaba ikodeshwa, ifite ibyumba bitatu n'ubwogero butatu.

Inzu nini ikaba ifite amabara y'umweru, ikaba ifite amadirishya n'imiryango ifite ibara ry'ubururu, ikaba ifite n'amakararo y'umweru, hakaba hari ibiti, hari uturarabyo duteye hirya y'iyo nzu, hakaba hari umugabo uri imbere yayo afite agasakazamajwi ndetse yambaye n'ishati y'umweru, agasa nk'aho ari kwamamaza iyo nyubako ikaba ikodeshwa cyangwa igurishwa.

Inzu nini ikodeshwa, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, Kimironko, ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero bune, ikaba ari inzu igeretse cyangwa ya etaje, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina.

Inzu ikodeshwa i kigali ikaba iherereye Kimironko, ikaba ari inzu y'amagorofa abiri, ikaba ifite igipangu gisize ibara ry'umutuku, ikaba ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u rwanda ku kwezi.

Inzu igezweho iri mu mujyi wa Kigali ahitwa kimironko irimo gutangazwa ko ikodeshwa ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, ubwiherero bubiri kandi ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana ane ku kwezi. Ifite igishushanyo cyiza iragaragara nkiyubatswe neza ifite amadirishya manini ibirenge bifite amabara atandukanye n'ubusitani buto buyikikije.

Inzu ikodeshwa ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali ikaba iherereye i Remera ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwogero bumwe ikaba ifite igikoni gikozwe mu buryo bugezweho mu imbere harimo amakaro y'umweru ndetse n'inkuta zikaba zisize ibara ry'umweru.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite amabara y'ikigina n'umweru, ikaba ari inzu nziza. Harimo n'utuvaze hirya y'amadirishya tugiye turimo ibiti, ikaba bakubwira ko ushobora kuyibona ku madorali y'amanyamerika mirongo itatu na tanu ku ijoro, ukaba wararamo ijoro kuri ayo mafaranga.

Ukuboko k'umuntu kwambaye umupira muremure w'umutuku ndetse n'utubara tw'umukara ukaba ufite n'agakomo ukaba urimo urafata umugati uri mu ishashi ndetse hari n'indi migati iri muri etajeri zikoze mu mbaho akaba ari aho bacururiza imigati ndetse abantu baza bagakuramo imigati bashatse hariho n'isahani hasi nini iriho n'icyuma.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi izwi nka superi marishe, ikaba ari inzu ifite imiryango y'ikigina b imbere harimo ameza ndetse na ma etajeri agiyemo ibicuruzwa bitandukanye ikaba iriho hanze n'ibyapa by'amabara n'icyatsi ndetse n'umweru.

Iyi nzu nini cyane bahahiramo ikaba irimo abantu benshi bagiye batandukanye bakaba bagenda bahahiramo ibikoresho bitandukanye, hakaba hari abantu bambaye imyenda y'icyatsi basa nkaho barimo barakora hakaba hicayemo babiri imbere yabo hari imeza iteretseho mudasobwa hakaba hari n'abantu barimo baragenda bareba ibicuruzwa bagura, iyo nzu ifite ibikuta by'umweru ndetse n'umuhondo.

Inzu nini bahahiramo bakana cururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye ifite amabara y'amakaroni umweru n'umukara, ndetse ikaba yiganjemo amabara y'umutuku muri iyo nzu ikaba arimo abantu bambaye udupfukamunwa ndetse n'udufira hejuru. Bakaba bakoramo ngo imbere yabo hari ameza iyo mudasobwa ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu kubara ibicuruzwa abantu bazanye.

Abantu benshi biganjemo abagore ariko harimo n'abagabo, bakaba baje barimo abacuruzi bategereje abaguzi, iyo nyubako ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse no hejuru bakaba hasa umweru, mu bicuruzwa birimo biracuruzwa harimo imineke amashu amaronji avoka imyembe ndetse n'ibindi.

ahantu bahahira hakaba harimo umugabo wambaye umupira wo kwifubika ndetse n'ipantaro n'undi mugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ka oranje ndetse n'ipantaro y'igikoboyi hakaba amaetajeli agiye arimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye hasi hari amakaro y'umweru ndetse n'umukara akaba ariho n'amameza asize amabara y'umutuku

Inzu ikorerwamo ubucuruzi akaba hari ibintu byinshi by'ibicuruzwa bigiye biri kukameza ndetse ibindi bimanitse hejuru, hakaba harimo amafoto imikufu ndetse n'indi mitako umuntu yagura.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibikorwa byo kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanya hakaba hari umuntu wicaye urimo uragenda ubarira umuntu uvuye guhaha amafaranga agomba kwishyura hakaba hari ibiguzwe ku meza ari imbere y'umuntu, umuguzi avuye kugura akaba yabimuteretse imbere ngo amubwire amafaranga agomba kwishyura.

Inzu bacururizamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanya hakaba harimo umugabo wambaye agakabutura k'umukara umupira w'umweru w'amaboko magufi ndetse harimo n'uturongo tw'umukara w'umuzungu hirya hari undi mugabo usa nkaho asutamye wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko maremare akaba arimo aratoranya mu bicuruzwa bihari bikaba biri muri etajeri hagiye harimo ibicuruzwa bijyiye bitandukanye.

Inzu bahiramo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse no hejuru hakaba ari umweru, harimo utu etageri dukoze mu mbaho dusize amabara y'umweru ndetse n'ikigina, hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imitobe amafanta ndetse n'ibikoresho by'abana.

Abantu benshi bicaye harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba higanjemo abantu bari mu kigero cy'imyaka myinshi, bakaba bicaye bateze amatwi, bamwe bafite ibipapuro ndetse n'amakayi mu ntoki bari mu nzu ifite amabara y'umweru ndetse n'amadirishya akaba afite amabara y'umweru.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'umugore bari kumwe bakaba bari guseka ni ku cyapa cya ejo heza kiri mu mabara y'umweru ubururu ndetse n'icyatsi, bakaba bakubwira yuko ushobora kwizigamira muri ejo heza ukiteganyiriza mu gihe ushaje ku ruhande hari akayira ndetse hari n'ibiti bigiye bikikije aho hantu.

Abagore bicaye bategereje ko bahabwa serivisi harimo abagoreba abenshi bakenyeye ibitenge harimo n'ufite umwana ku bibero bicaye ku ntebe inyuma hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse imiryango yabo ikaba isa umweru bamwe bafite ikaramu ndetse n'impapuro mu ntoki.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati. Hirya ye hakaba hari umugore wambaye ikanzu ndende y'umweru ndetse bombi bicaye ku ntebe z'umukara. Iyo nzu bicayemo ifite amabara y'umweru n'umukara. Imbere yabo hari imeza iteretseho telefoni, murandasi, ibitabo, indangururamajwi ndetse n'amazi yo kunywa.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi ikaba izwi ku izina rya superi marishe, akaba wabonamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ifite hasi amakaro y'umweru na hejuru ikaba ifite igisenge cy'umweru hari n'inkuta z'umweru, ikaba harimo utu etajeri tugiye dusize amabara y'umweru turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibisuguti, amafu y'ubwoko bwose ndetse n'ibindi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hasi ikaba ifite isima y'umutuku, hakaba hari ama etajeri agiye arimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imikati, amafu, amavuta n'ibindi birungo bakoresha mu guteka.

Abantu benshi bahagaze hakaba harimo umusore wambaye ekuteri mu matwi afite terefone mu ntoki ndetse yambaye n'ishati ndende isa nk'ubururu bwijimye hakaba hari n'undi wambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi bakaba bamaze guhaha hari n'umukozi wambaye umupira w'umutuku ukora muri iyo duka rizwi nka superi marishe akaba arimo arapakira ibyo bahashye n'undi wicaye imbere ya mudasobwa arimo arababarira amafaranga bari bwishyure.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa byinshi, hakaba haririmo utu etajeri tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'amavuta ndetse n'amafu, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu guteka, hakaba hari n'icyuma gikonjesha ibintu kizwi nka firigo.

Iduka rinini ricururizwamo ibikoresho ndetse n'ibindi bintu umuntu yakenera hakaba n'iduka ririho ibyapa bya jameson mu mabara y'icyatsi hakaba harimo etajeri zikoze mu mbaho zikaba zirimo ibinyobwa byinshi birimo ibisembuye cyane cyane by'ubwoko bwinshi.

Isoko rigezweho bakunda kwita isoko rinini harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri iri soko rinini kandi harimo akagare kifashishwa iyo hari umuntu ushaka kugura ibintu byinshi.

Umugore ufite akantu mu ntoki, agenda ashyiramo ibintu arimo aragura. Akaba ari mu iduka ricururizwamo ibintu byinshi rizwi ku izina rya superi mrishe. Hakaba hari etajeri igiye irimo ibicuruzwa byinshi, harimo, higanjemo ibiribwa.